Umwana muto w'umusore ari ku ivomero rusange, yaje kuvoma amazi mu kajerekani. Hirya hari na bagenzi be, na bo baje kuvoma, ndetse n'umumama ukuze, witeze igitambaro.

Mu cyaro umugore yicaye ku ntebe akikiye umwana we imbere ye hicaye umujyanama w'ubuzima ari kumuganiriza ku buzima, uyu mujyanama yicaye iruhande rw'impapuro nyinshi.

Mu cyaro abajyanama b'ubuzima bakoranyije imbaga nyamwinshi, bari kubaganiriza ku buzima, bari kubabwira ibyo bakora kugira ngo hirinde indwara kandi bakomeze babeho neza bafite ubuzima buzira umuze n'abana babo.

Ku bitaro, umugabo w'umuganga ari guha urukingo umwana wicaye imbere ye, hirya hari abandi bana benshi baje gufata inkingo mu myaka yabo mito cyane.

Ni mu nama ijyanye n'ubuzima, hari ameza atandukanye agiye yicayeho abantu bacye bacye, bose bambaye udupfukamunwa n'udutabo tw'ubururu ndetse n'uducupa tw'amazi tubateretse imbere.

Ni mu nzu mbonerabyombi nini irimo amadarajya menshi, imbaga y'abantu yateranye bari gukora inama bafite impapuro mu ntoki ijyanye n'ubuzima buzira umuze n'uko bwabungwabungwa.

Abana bakiri bato b'abakobwa biga mu mashuri abanza barishimye, bambaye udupira twa Unicef, umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'abana, bambaye imipira ndetse bafatanye ku ntugu.

Ni mu ihema rifite amabara nk'ay'ibendera ry'u Rwanda, inama yateranye umugabo ari gufata imbwirwaruhame, hari abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'iz'umutekano, bari kuganira ku buzima.

Ni mu ihema ritakishije idarapo ry'u Rwanda, hicaye ingeri zitandukanye z'abantu harimo abapolisi, abayobozi, abaturage ndetse n'abana, umugabo afite indangururamajwi ari gutanga ikiganiro ku buzima.

Umusore wambaye ikimurinda mu maso n'agapfukamunwa ari gupima umusaza w'umushehe wambaye ingofero ya isilamu ku mutwe amubaza amuganiriza.

Ni kwa muganga hari icyuma kiri gupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'uko umutima utera umubiri w'umurwayi hari abaforomokazi babugenewe bari gukoresha icyo cyuma ndetse nyuma hari amabomboni ashinzwe guha umwuka umurwayi kugira ngo adashiramo umwuka.

Umugabo muremure wambaye ikoti ry'umukara, ari guha umugore muto muto agakapu kanditseho gusura u Rwanda. Ni mu nama y'Ikigo Mpuzamahanga yita ku buzima, hari gushishikarizwa kwibanda ku Rwanda n'ubuzima bw'Abanyarwanda.

Ibigo bitandukanye birimo yunicefu, wodi helifu oruganizesheni yowere hashi se eri byateranye kugira ngo higwe ku isuku ndetse no ku buzima muri rusange.

Ikigo mpuzamahanga ku rwego rw'Afurika, gishinzwe kwita ku buzima cyateranye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, tariki makumyabiri n'ebyiri kugeza kuri makumyabiri n'eshatu z'ukwakane. Hari kwigwa uburyo uburezi n'uburere ndetse n'ubuzima bw'Afurika bwatezwa imbere.

Umubare munini w'abantu urimo abagore n'abagabo, bahagaze imbere yi'nyubako ndende igeretse inshuro irenze imwe barishimye bari gufata amafoto.

Ameza atandukanye ateretseho mudasobwa zitandukanye migiseri ndetse n'uducupa turimo amazi ,hicayeho umugore ari kuganira n'umugabo umuhagaze imbere hirya hari ibyapa bitandukanye ndetse n'amafoto ku nkuta.

Mugisharagati umusore wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga z'umweru imbere yateretse imiti ari gutera urushinge umukecuru mukuru n'umuganga hirya hari umusore wambaye ijire.

Ukuriye Umuryango Mpuzamahanga wita ku Buzima OMS, yasuye abaforomokazi bambaye impuzankano, bafite n'amakarita agaragaza ibyo bakora. Barishimye nyuma y'ikiganiro bahawe ku buzima.

Mu ihema ry'umweru umuyobozi mukuru w'urwego mpuzamahanga rushinzwe ubuzima oms, yasuye u Rwanda, bari kumwereka imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abanyarwanda, bamusobanurira ibiyigize.

Umugore uhetse akana mu gitenge mu mugongo, ari koza indobo yaje kuvomesha ku ivomero rusange, hirya hari ibiti inyuma ye.

Umwana mutoya ari guhabwa amata, imbaga nyamwinshi y'ababyeyi yazindukanye abana babo kugira ngo umushinga ubashe kubaha amata ndetse wite no ku buzima bwabo.

Mu rwego rwo kwita ku buzima ndetse n'isuku y'abaturage, ikigo cyegereye abaturage, kiri kubafasha kubaha amazi meza nk'isoko y'ubuzima kandi n'isuku ku bantu.

Ku ivomero rusange hari akana gato gafite igikombe gikozwe mu cyuma, kari kuvoma amazi meza y'uruhogobogo. Karishimye ndetse hari amarobine abiri.

Ni mu ishuri, abana babiri baricaye imbere y'ameza, barishimye umwe yamanitse akaboko nk'uwiteguye gusubiza ikibazo kibajijwe na mwarimu. Ku kibaho hari udushusho dutandukanye dufasha abana kwiga no kuneze.

Umusore wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'ikoto, ni mu gisharagati arigupima akana gato ku kuboko, ari kugaha urukingo.

Ni mu cyumba, ababyeyi batandukanye nyuma yo guhabwa serivisi nziza zubuvuzi zibegereye, barishimye bari kubyina, bamanitse amaboko.

Ni ku ivomero rusange, hari imbaga nyamwinshi y'abana, bitwaje amabido kugira ngo bacyure amazi ajye gukoreshwa mu rugo mu turimo dutandukanye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu iteraniye mu nzu mberabyombi, bambaye amakarita agaragaza icyahabereye uwo munsi. bari kwita ndetse bagaruka ku buzima muri rusange.

Umugore urwaye wambaye agapfukamunwa ndetse n'igitenge, aryamye ku buriri bw'umurwayi buriho amashuka y'umweru, umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru, yashyize icyuma ku nda ye, ari kumva uko umwana ameze mu nda.

Ku ivomero rusange hari abagore batatu bitwaje amabido, baje gucyura amazi. Aya mazi yifashishwa mu turimo rusange two mu rugo nko kumesa, kwiyuhagira, gufura n'ibindi.

Umuganga wambaye impuzankano ufite n'inyweri mu mutwe, wambaye amaherena, ari guha umwana ukiri muto umuti, uwo mwana acigatiwe n'umubyeyi we wishimye.

Umubyeyi n'umwana bafite amabido abiri bagiye kuvoma ahantu ku mugezi kugira ngo babone amazi yo gukoresha. Inyuma yaho hari ibyatsi.

Umuhanzi Israel Mbonyi, wambaye agapira k'umuhondo usa n'icunga rihishije, yateruye akana gato, yagashyize ku munzani ngo agapime ibiro, ni mu bukangurambaga ku buzima.

Ni kwa muganga, umugore afite umwana we, yambaye agapfukamunwa, amaherena, isaha ndetse n'impeta, inyuma ye hari undi mubyeyi na we ufite umwana, inyuma yabo hari idirishya.

Icyapa cyita ku buzima, kiriho abagabo benshi batandukanye, aho insanganyamatsiko igira iti ''Ku buzima nta n'umwe dusiga inyuma, ni uguteza imbere kubagwa mu bihugu by'Afurika n'ibyaro.''

Ku kigo cy'amashuri umwana yambaye impuzankano y'ishuri, agashati ka karokaro ndetse n'ikabutura y'umukara, umwana ari gukaraba intoki n'amazi meza kuri kandagira ukarabe.

Mu cyaro, umukobwa mukuru ndetse n'akana gato k'agahungu, bagiye kuvoma amazi ku iriba. Aya mazi asa n'ayanduye, ari gushoka aturuka mu musozi.

Icyapa kigaragaza ibipimo by'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda, mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani byari mirongo itanu na gatanu ku ijana, bibiri na cumi n'icyenda bigera kuri mirongo irindwi ku ijana, bibiri na makumyabiri bigera kuri mirongo irindwi na gatandatu ku ijana naho muri bibiri na makumyabiri na rimwe byari kuri mirongo irindwi n'icyenda ku ijana.

Mu bitaro, hari ababyeyi benshi baje kuvuza abana babo. Bafite udufishi two kwa muganga ndetse bateruye abana babo bategereje ko abaganga baza bakabasuzuma.

Mu nzu mberabyombi hari imbaga y'abantu Kamera ifata amashusho bakurikiye abantu batandatu bari imbere babaha ikiganiro, ni ku munsi mpuzamahanga wo gukusanya inkunga k'ubuzima.

Utwana tubiri tw'utunyeshuri turi mu ishuri turishimye twambaye impuzankano y'ishuri, inyuma y'aho hari ikibaho kiriho amasomo abo bana biga.

Umusaza usa nuri mucyaro ari ku ivomero rusange afite ijerekani yaje kuvoma, afite akamwenyu mu maso yambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara.

Imbere y'ahabera inama ku kigo nderabuzima, hari imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abagabo, abagore b'abayobozi ndetse n'abaforomo, bafite ibyapa biriho ku kwirinda ubuzima.

Ikigo cya Unicef gishinzwe kwita ku bana, hari amahugurwa yateguwe kugira ngo abana bahabwe ubuzima buzira umuze, ndetse babashe no kubonera imiti ku gihe, abanyamuryango bayo bambaye impuzankano iranga uwo muryango.

Umuganga w'umudamu ufite umusatsi yasuye abaturage, afite impapuro n'ikaramu ari gupima umwana, hirya hari ababyeyi batatu, uwo mwana yambaye ingofero bari kumurebera amenyo.

Ku ivomero rusange mu giturage, umubyeyi ndetse n'umwana bari kuvoma, iruhande rwabo hari abaturage baje kureba icyo gikorwa, umwana afite amajerekani atatu.

Umwana w'umusore, ukiri muto yagiye ku ivomero rusange, gushaka amazi yo kunywa no gukoresha, yateze ibiganza bibiri, ari kuyanywa, munsi ateretse indobo ye yaje kuvomesha.

Mu nzu mberabyombi harimo ibihande bibiri, hateraniye imbaga nyamwinshi, imwe yicaye mu gihandade cy'iburyo, indi mu k'ibumoso, gusa bambaye impuzankano zabo nk'iz'abajyanama b'ubuzima, bari guhabwa impanuro ku buzima bwabo.

Imbere y'ibitaro hari abaganga babiri bambaye udupfukamunwa, hirya hari umudamu bari kumurebera ku ifishi indwara arwaye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, yateranye ni mu nama, abantu bicaye ku meza. Imbere yabo hateretse amazi, ndetse bafite n'amakayi bari kwandika.

Inama yateranye irimo imbaga nyamwinshi, ni nama yiga ku bufatanyabikorwa ndetse no gushyira hamwe mu kurwanya icyorezo, yitabiriwe n'ingeri zitandukanye, zirimo inzobere mu buvuzi.

Amahugurwa ku buzima. Imbaga nyamwinshi y'abaganga iri kwifotoreza imbere y'icyapa cya nyabageni cyita ku buzima, abitabiriye bari bambaye udukarita tubaranga.

Ku ivomero rusange mu giturage hari abana benshi bahateraniye bitwaje utujerekani baje gucyura amazi mu rugo kugira ngo uturimo two mu rugo nko guteka no kumesa bibashe kugenda neza hari akana k'agasore kari kubafasha kugira ngo bavome amazi.

Umusore ukiri muto ari ku ivomero rusange ari gukaraba intoki, hirya ye hateretse indobo y'ubururu.

Inama y'Igihugu ku buzima yateranye, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yakoresheje iyo nama, abagore batandukanye ndetse n'abagabo bitabiriye iyo nama ku bwinshi.

Ku kigo nderabuzima umuforomo ari gusobanurira umurwayi, hagati y'umwana w'umuhungu ndetse n'umwana w'umusore uburwayi, afite icyapa kiriho nyine uwo mukobwa ndetse n'umusore ari kumusobanurira...

Minisiteri y'ubuzima mu gihugu cya Sudani y'epfo iri mu nama. Imbere hari abayobozi babiri bafite indangururamajwi, bari kugeza ijambo bateguriye, ku bitabiriye iyo nama.

Ikigo gishinzwe ubuzima ku rwego rw'Isi, cyakoranyije inama. Abantu batandatu bari hejuru bari kuganira, imbaga nyamwinshi iricaye iri kubakurikira.

Umusaza ari gukorera umwana ukiri muto ibido ya unicefu ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bana kikamenya ko bameze neza bafite ubuzima kandi biga neza.

Ku meza hari abantu batanu ni abagore babiri n'abagabo batatu hirya hari umuyobozi wabo ari kubakoresha inama inyuma yabo hari idirishya.

Abagore babiri b'abayobozi bicaye mu biro, begeranye inyuma yabo hari idarapo ry'umuryango w'ibihugu byose byo ku isi by'umuryango wunze ubumwe.

Umugore w'umwirabura wambaye imyenda isa n'umukara, turi kubona amagambo yavuze, avuga ko dukeneye abafatanyabikorwa kugira ngo ubuvuzi bwacu butere imbere.

Abana batatu batatu b'abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano bari ku kigega bari kuvoma amazi meza bafite udukombe bari kunywa. Turashishikarizwa kunywa amazi meza kuko ari byiza ku buzima.

Ubukangurambaga bwo gukaraba intoki, abana babiri barishimye umwe ari gukarabya mugenzi we, afite igikombe kirimo amazi y'urubogobogo bari gukaraba iwabo mu rugo.

Umuntu mukuru afite ijage irimo amazi, ari guha ari gukarabya umwana mutoya ufite isabune agapira ndetse n'ijwiri ku musatsi. Hari kugaragaramo n'intebe n'igicucucucu cy'umwana n'amazi umwana ari gukaraba ameka

Ni mu cyumba cy'abarwayi hari abaganga babiri, bambaye impuzankano zabo, umwe ari gupima umurwayi apima umuvuduko w'amaraso we.

Imbaga nyamwinshi y'abantu iteraniye iruhande rw'inzu imbere hariho ibendera ry'igihugu, igishararaga ndetse n'imbangukiragutabara, ni ubukangurambaga bujyanye n'ubuvuzi.

Ni mu cyaro kuko inzu isa nk'iy'abakene, ku rugi rwayo hariho igitenge, umwana w'umusore arunamye imbere ye hari indobo, mushiki we mutoya ari kumusukira amazi wambaye amaherena.

Mu nama yabereye mu nzu mberabyombi hari umurongo w'abatumirwa bicaye, umwe afite indangururamajwi ari kugeza ku bari aho ijambo yabateguriye. Ameza yaho ndetse n'ibibakikije byose bisa umukara, imbere yabo hateretse amazi y'inyange na mudasobwa.

Mu cyaro hari umugore wakenyeye witeza agatambaro k'umweru mu mutwe, ari kumwe n'abana benshi baje ku ivomero rusange bitwaje amabase n'amajerekani kuvoma.

Imbaga nyamwinshi y'urubyiruko yateranye, imbere yarwo hari abasore babiri n'umukobwa umwe, bari kubakinira ikinamico, dore ko bafite mikoro, ku bijyanye no kwirinda indwara ya Ebola.

Ni mu gishanga kuko hari umugezi utemba, hari itiyo y'amazi, umuntu ateze ikiganza ari gukaraba intoki n'amazi meza.

Ikigo cya North Carolina Global Health Alliance ni ikigo gitanga serivisi z'ubuvuzi ku Isi hose, gitanga imiti, ubuvuzi ndetse n'ubujyanama n'uburyo hakoreshwa imiti neza.

Inama yiga ku buyobozi yateranye, aho hari abayobozi benshi b'inzego zitandukanye bari kuramukanya bakorana mu ntoki, harimo abirabura ndetse n'umuzungu.

Inzu eshatu ziteye kimwe zisa kandi zingana, zigoswe n'uruzitiro rw'ibyuma, izi nzu zitanga serivisi ku barwayi bazigana kugira ngo babashe kuvurwa.

Ni mu kibuga hanze hari abanyeshuri benshi bicaye, umunyeshuri umwe arahagaze ari gusuhuzanya n'umuyobozi. Iruhande rwe hari urukiramende ruriho igipirizo bigaragaza ko bari mu myitozo.

Inama y'ikigo cy'igihugu Yunisefu gishinzwe kwita ku bana yateranye aho bafite intego igira iti: icyizere kuri buri mwana bari hamwe biteretse uducupa twinshi tw'amazi na mudasobwa mbese nk'abitabiriye inama.

Umugore w'umujyanama w'ubuzima yasuye abashakanye afite icyapa mu ntoki ari kubigisha ku buzima bwabo ndetse n'uko barushaho kugira ubuzima buzira umuze birinda indwara.

Umubyeyi utwite akwiriye kwitabwaho mu buzima. Inama yateranye aho imbaga nyamwinshi yahuye kugira ngo bite ku buzima bw'umubyeyi utwite babuganireho bityo afashwe.

Akana gato k'agakobwa gakikiwe n'umubyeyi wakajyanye kwa muganga, umuforomokazi wambaye itaburiya y'umweru afite urushinge mu ntoki, ari kugatera urukingo.

Umwana muto w'umuhungu wambaye impuzankano y'ishuri afite ibirahure bibiri by'amazi meza mu ntoki, ni mu gishanga inyuma ye hari abandi bana benshi ndetse n'amazi yanduye. Ni isomo ku kunywa amazi meza kuko ari ingirakamaro ku buzima bwa muntu.

Mu cyaro, umugore wakenyeye igitenge ufite igitambaro mu mutwe, atwaye indobo ebyiri. Iy'umutuku arayikoreye, iy'umuhondo ayifite mu kaboko ke k'iburyo. Avuye kuvoma, acyuye amazi, ari mu gisambu mu nzira, aratashye agiye guteka ndetse no kumesesha ya mazi avuye kuvoma.

Aho babagira umurwayi, hari imbaga nyamwinshi y'abaforomo bambaye impuzankano zabugenewe bafite ibikoresho bari gufasha kubaga uwo murwayi.

Ku mugezi rusange hari imbaga nyamwinshi y'abantu baje kuvoma, umugore ukuze ari kuvomesha, abana bafite amajerekani bateze ku iriba.

Ku ivomero rusange rifite amarobine, ane hari umwana ukiri muto umaze kuzuza indobo y'umweru ifite n'umufuniko w'umweru. Uyu mwana muto ari kugerageza kuyiterura ngo ayishyire ku mutwe ayikorere acyura amazi iwabo.

Ni mu mazi ikiyaga cyangwa umugezi magufi, harimo abana barindwi uduhungu ndetse n'udukobwa, bari kwidumbaguza muri aya mazi adasa neza.

Mu kigo nderabuzima abarwayi baturutse impande zose, bafite amafishi baje kwivuza, hari abazanye abana, hari abaje bo ubwabo ndetse hari n'abazanye abanyamuryango babo kugira ngo harebwe uburyo bahagaze bityo bavurwe.

Imbere y'ikigo nderabuzima hari imbaga nyamwinshi y'abaganga bambaye impuzankano, bari kubyina bataramanye n'umuzungu ubahagaze imbere wambaye ikoti ry'umukara.

Ni munsi y'ihema ry'umweru, hari abagore benshi bambaye amajiri y'ubururu, barishimye bari gukoma amashyi, imbere hari umugabo w'ishati y'umweru wicaye ku ntebe, hari ibyo bari kwamamaza no kwishimira.

Ababyeyi bateruye abana babo mu bitaro, bafite udufishi bamaze gusuzumwa bategereje ko abana babo baza kuvuzwa bakanakingirwa kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Abantu benshi bicaye ku meza barebana, bari mu nama, hirya hari amashusho agaragaza ibyo bari kuganiraho, imbere y'ameza yabo hateretse za mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Umujyanama w'ubuzima, ari mu giturage yagiye guhugura abaturage ku cyorezo cya sida, aho bari kuvuga ko kigihari, kandi tugomba guhaguruka tukakirwanya. Ari kuganiriza umusore kuri sida, amakuru amuhaye ayandika mu gitabo.

Umwana ukiri muto ari ku ivomero rusange, yambaye agapira k'umutuku, ari gukaraba intoki ku ivomero rusange, ntako bisa gukaraba ukiri muto kugira ngo wirinde inzoka zitera abana.

Imbaga y'abantu ishoje inama yiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Harimo abayobozi, ababyeyi ndetse n'urubyiruko, bari bari kwiga ku ngamba zitandukanye zafatwa kugira ngo hazamurwe ubuzima bwo mu mutwe.

Gahunda yo kwita ku buzima bwo mu mutwe umugore w'umukuru w'igihugu ari gufata ijambo avuga agaciro ko kugira ubuzima bwo mu mutwe buzira umuze.

Abaturage b'Abanyarwanda ni benshi barishimye bari guseka, bafite amadarapo y'u Rwanda ariho ibara ry'ubururu ririmo izuba, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu iri hanze, umwanatu ararira afite injwiri ku mutwe ndetse yambaye n'utwenda twamucikiyeho afite ibibazo bikomeye.

Ku kigonderabuzima cya Kacyiru, hari abifotoreza imbere y'ibyapa, harimo abayobozi, abaganga ndetse n'abaforomo mu nzego zitandukanye.

Ku kigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buringanire n'ubwuzuzanye ndetse no kurwanya ihohoterwa ry'abana mu muryango, hateraniye inama igizwe n'abayobozi ndetse n'inzego zishinzwe umutekano.

Umugabo aricaye arababaye cyane yipfutse mu maso, afite agahinda kenshi ari mu bitaro yasanzwemo indwara ikomeye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu barangije inama ku bijyanye n'ubuzima, bari gufata ifoto y'urwibutso, aho harimo abayobozi bayoboye iyo nama, ndetse n'abitabiriye iyo nama muri rusange.

Umuhanda umusaza wambaye imyenda ishaje n'inkweto bishaje, afite ibifuka byinshi ndetse n'ibicupa byinshi by'amazi mu ntoki, afite uburwayi bwo mu mutwe.

Mu nama yiga ku buzima bwo mu mutwe, imbere hari abayobozi batandatu, abagabo batatu n'abagore batatu, hino hari imbaga nyamwinshi ikurikiye ibyo biganiro, hari n'icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, cyateguye uwo munsi.

Abana benshi bo mu cyaro biganjemo abasore, bambaye imyenda icitse, bafite amaganya menshi bamwe muri bo bari kurira batakamba, abafite ibibazo bijyanye n'ubuzima cyane cyane ubwo mu mutwe.

Icyapa kigaragaza umunsi mpuzamahanga wo kubahiriza ubuzima bwo mu mutwe ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima, ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima. Uyu munsi uba ku itariki ya cumi z'ukwa cumi.

Ikamyo nini ifite amabara y'umweru, irimo ibikoresho bitandukanye mu kuvura indwara zo mu mutwe, iparitse mu busitani, hino yabwo hari intebe zicayeho abaforomo, bari kugenda baganiriza abantu ku buzima bwo mu mutwe banabaha imiti.

Ni mu ishuri hari imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye, n'umudamu umwe uhagaze, ari kwerekana amashusho y'ibyo ari gusobanurira abicaye, ni umwarimu ari kwigisha abanyeshuri.

Umubyeyi ufite imisatsi miremire y'umukara, ateruye umwana mu ntoki, bombi barimo baraseka bisa nkaho bishimye, umubyeyi n'umwana bose bambaye imyenda y'umweru.

Ni mu misozi, abagore batatu bahagaze mu murima, umwe ahetse umwana, bafite imbingo n'amasuka, baramukiye mu murima guhinga.

Abana bakiri bato benshi bari hamwe bari kurira basa n'abafite uburwayi bwo mu mutwe aba bana barasa nabi ni imyenda yabo yacitse.

Inama yateranye mu nzu mberabyombi, umugore ari gufata imbwirwaruhame, iyi nama iri kugaruka ku buzima cyane cyane bwo mu mutwe, uko bwatezwa imbere ndetse n'abafite ibibazo byo mu mutwe uburyo bakitabwaho.

Imbaga nyamwinshi y'abana batoya bafite imyaka mike, barishimye bari guseka bose bari gukina, turashishikariza kujya twita ku bana ndetse n'ubuzima bwabo bwo mu mutwe kuko bubafasha gukura neza.

Umwana muto w'umusore w'umwirabura, ari kurira, arababaye cyane, afite agahinda ku maso, ashobora kuba yahemukiwe cyangwa yahemukiwe bikabije.

Ibitaro byitwa Kigali Psycho-Medical Center, binejejwe no gutangaza ko dogiteri Janvier Yubahwe azagaruka akazajya atanga serivise z'ubuvuzi.

Abana benshi barishimye bahuriye muri sitade bari guseka, ni igikorwa rusange cyita ku bana ndetse n'ubuzima bwabo, bafite utuntu bambaye ku mutwe dusa n'umweru.

Umusore w'umwirabura, usa nabi wambaye ikabutura, bamushyizemo ipine ry'imodoka, iruhande rwe hahagaze abantu, we yicaye hasi mu muhanda, ibigaragara ni umujura.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi ufite ubwanwa arishimye ari kumwenyura afite ndetse n'amenyo y'urwererane inyuma ye hasa umweru.

Umukobwa ukuze, ufite imisatsi myinshi, yambaye ikoboyi ndetse n'agasengeri k'umukara n'urunigi mu ijosi, ari guseka cyane, yicaye hanze.

Umusaza usa n'ukennye kuko yambaye imyenda yacitse, asa nabi ari mu muhanda inyuma ye, hari mugenzi we ufite igare ndetse wugamye munsi y'inzu ishaje.

Umukecuru ukuze yicaye ku musambi akikijwe n'urujya n'uruza rw'abana benshi, bari kumusagarira, bari kumuganiriza kugira ngo abashe gukira indwara zo mu mutwe afite bityo anezererwa.

Imbaga y'inkumi n'abasore yateranye, irishimye bafite icyapa gishishikariza kwita ku buzima bwo mu mutwe, bahoze mu nama batahanye umukoro wo kwita ku buzima bwo mu mutwe nk'abaturage.

Mu cyaro, umugore mukuru akikiye akana gato, inyuma ye hicaye akandi k'agahungu bicaye ku musambi, imbere yabo hari intara, uwo mugore ari kugosora.

Umugabo w'umwirabura uri mu Kinigi, inyuma ye hari ingagi zikozwe mu migano, arishimye cyane yambaye ishati, inyuma ye hari abandi bantu benshi.

Mu nzu mberabyombi habereye inama, hari imbaga nyamwinshi, abagore n'abagabo, abasore ndetse n'inkumi, imbere yabo hateretse ameza ariho ibitabo,

Umudamu usa n'ukuze wambaye amarinete, afite agakarita kariho ibara ry'ivu ko kwibuka, yambaye impeta ndetse n'igitenge.

Umugore mukuru wambaye agapira gatukura, ahagaze imbere y'ibitaro ari kumwenyura, ikigaragara yaje gushaka serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ubwo mu mutwe.

Inzu igaragara nk'iy'umukene, hari umudamu wambaye igitenge, yicaye ku gatebe gatoya, imbere ye hari umusambi, hirya hari idirishya rifunguye.

Icyapa cyanditseho uruhurirane rw'amagambo ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imitekerereze, ubwoba ndetse no kumererwa neza n'ubushakashatsi.

Abakobwa babiri baricaye, umwe wambaye ikote ry'umutuku yitangiriye itama yambaye ingofero ya gisirikare asa n'uwihebye, mugenzi we ufite umusatsi w'umukara wambaye n'ibintu by'umukara ari kumuhumuriza amuha...

Umugore wishimye ufite inweri ku mutwe, yambaye ijiri y'umuhondo ya MTN atanga amayinite, ari mu iduka rye ririmo ibirungo inyuma amasorurwatomo ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Abana benshi bo mu cyaro ubona bakennye, bari hamwe bari guseka ubona ko bishimye, bamwe muri bo bafite amajerekani.

Ikigo cya Hope dental center, gifite inyubako igeretse gatatu, iki kigo gishinzwe kwita ku buzima bwo mu kanwa bw'abantu bahivuriza.

Umusore w'umwirabura arishimye ari guseka, nta musatsi afite ku mutwe, afite akadodo k'umweru ari kukanyuza mu menyo ye, arimo arayasukura.

Umusore wambaye agapira k'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo afite akadodo ari kukanyuza mu menyo ye, ari kuyasukura, hirya hari urukuta rusa umweru.

Mu bitaro kwa muganga umugore ukuze aryamye ku gatanda k'abarwayi, imbaga y'abaforomo iri kumwitaho, bakoresheje ikoranabuhanga ndetse n'ibyuma bigezweho bari kumuvura amenyo.

Umukobwa w'umwirabura ufite inware ku kumutwe yagiye kwa muganga wamenyo wari ari kumupimira iryinyo ryakwira mu kanwa ke, afite akamwenyu mu maso muganga afite agakoresho k'umweru ari gupimisha amenyo.

Akana gato k'agakobwa gafite akarabo mu mutwe, gafite uburoso bw'amenyo karishimye, kari koza amenyo yako, turi kwigishwa gushishikarizwa koza amenyo yacu akaba meza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, abagore nabagabo, urubyiruko n'abana bato ubona bambaye gisirimu, barishimye, inyuma yayo hari icyapa cyerekana umunsi mukuru bizihije.

Itsinda ry'abavuzi bambaye imyenda y'umweru, aho barikuvura abana bambaye udupira tw'icyatsi twanditseho ngo tubiteho bari kureba mu kanwa kabo ko nta kibazo bafite.

Umusore w'umwirabura afite akadodo arikukanyuza mu menyo y'ururwererane, ari kuyakorera isuku, afite ubwanwa buke ari kumwenyura.

Umusore w'umurwayi yambitswe agatambaro k'umweru mu gatuza yagiye kwa muganga yegamye ku gatanda k'abarwayi.

Umuganga ari kwigishiriza ku rwasaya rw'umuntu uko kwa muganga bavura indwara ndetse n'amenyo arwaye.

Abashyitsi basuye ishuri, ni abaganga bari kwereka abanyeshuri amenyo yabo arimo za muzitsa ndetse n'ibijigo.

Ifoto, amenyo y'umurwayi yagize ibibazo, za muzitsa ndetse n'ibijigo by'umurwayi bifite indwara, iyi ifoto yafashwe n'imashini.

Mu ihema umukobwa ari kwasama cyane kugira ngo bamupime mu kanwa, bamupime icyorezo cya Covid cumi n'ikenda. Abarwayi babugenewe babihuguriwe bari gupima icyorezo kugira ngo barebe uko gihagaze.

Akana gato gafite imisatsi myinshi kagiye kwivuza kwa muganga, aryamye mu gatanda k'abarwayi, yambaye n'akajiri k'abarwayi, umuganga wabugenewe ari kumupimira mu kanwa, amufasha gukuramo amenyo afite uburwayi.

Umukobwa muto muto ufite imisatsi miremire ni mugitondo yambaye agasengeri k'umweru afite amenyo y'urwererane n'uburoso mu ntoki ari kuyoza turi kwigiramo ko ari ngombwa koza amenyo yacu buri gitondo uko tubyutse bityo tukagira amenyo akeye kandi mazima.

Umusore w'umwirabura ufite ubwanwa bwinshi afite akadodo k'umweru ari kukogesha amenyo ye y'urwererane arishimye ari kumwenyura.

Umusore w'umwirabura ufite ubwanwa bwinshi, ari gutunga agatoki mu kanwa ke, atwereka amenyo ye asa neza, yambaye amarinete, ndetse afite n'iherena ku zuru.

Ishusho, amenyo atandukanye aba mu kanwa k'umuntu, izo ni za muzitsa, ibijigo n'ibindi byafotowe binyujijwe mu mashini.

Ishusho iriho amenyo atandukanye y'umurwayi, amazima yose n'afite ikibazo, za muzitsa ndetse n'ibijigo, ni akanwa kose kagaragara.

Umubyeyi ari kumwe n'akana gato k'agakobwa, bambaye udusengeri tw'umweru, bose bafite uburoso bw'amenyo bari koza amenyo. Turashishikarizwa koza amenyo yacu neza n'umuti w'amenyo.

Umuganga wambaye impuzankano, agapfukamunwa, ndetse na ga ari gukoresha udukoresho tubiri ku menyo y'umukobwa waje kwivuza amenyo, uyu mukobwa afite imisatsi miremire yambaye n'amaherena.

Mu bitaro hari agatanda k'abarwayi kabugenewe ndetse n'intebe y'umuganga, aka gatanda k'abarwayi kariho ibyuma bitandukanye byifashishwa kugira ngo umurwayi avurwe amenyo afite ibibazo.

Umusore muto ufite umusatsi mukeya ari kutwereka akuma kariho amenyo atandukanye, ashobora gusimbuzwa amwe mu menyo ye igihe yagize ikibazo akivuza.

Mu bitaro, abaganga babiri bambaye impunzankano na ga mu ntoki bari gupima amenyo y'umwana ukiri muto, wambaye agapfukamunwa, waje kwivuza, bari kumusuzuma.

Amenyo uko ari mirongo itatu n'abiri y'umuntu yafotorewe mu mashini. Hari kugaragaramo za muzitsa, ibijigo, amabwene n'andi menyo menshi aba mu kanwa k'umuntu ukuze.

Umuganga w'umuzungu ufite imisatsi y'umukara, wambaye amarinete y'umukara ari kurebera mu mashini amenyo y'umurwayi ni za muzitsa, yambaye agakomo ku mukara, iyo mashini isa n'umweru.

Ni mu cyumba cy'ivuriro hari agatanda k'umurwayi ndetse n'intebe ya muganga n'ibikoresho bitandukanye kwa muganga bakoresha bavuza amenyo.

Umusore w'umuzungu w'umuganga, wambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'ubururu, hamwe n'umukobwa wambaye agapira k'umuhondo, bateruye umusaza w'umwirabura ufite imisatsi y'imvi w'umurwayi, uhagurutse mu buriri buriho amashuka y'umweru.

Imbaga nyamwinshi y'abanu yateranye, imbere yabo hateretse utugare ndetse n'imbago, byifashishwa n'abafite ubumuga. Ubukangurambaga bwakozwe, buri kugaruka ku kwita ndetse no gufasha abafite ubumuga.

Umukecuru wo mu cyaro, yicaye hanze imbere y'inkono, aratetse ari kugenda ashyira udukwi mu ziko rimwegereye riri hafi ye, yiteze ibitambaro, arambije hasi.

Umuryango mugari urimo abasaza n'abakecuru, abagabo n'abagore ndetse n'abana, bari mu busitani barishimye, bari guseka, bari kuganira bita ku basheshe akanguhe.

Umusaza ukuze usheshe akanguhe, afite ikaramu, ari kwandika mu ikayi. Yambaye amarinete, ikigaragara arakuze cyane.

Umuhango w'ubukwe, hari abasaza babiri bari gukoma amashyi, bitabiriye umuhango w'ubukwe wabaye, bicaye mu gishararagati.

Umugore w'umuforomo wambaye impuzankano ufite akuma gapima umutima mu ijosi, ari guha imiti umukecuru urwaye ufite ikirahure cy'amazi mu ntoki.

Umuryango mugari urimo umusaza n'umukecuru; ababyeyi batatu bakuze ndetse n'akana gato bicaye mu ntebe ahantu mu nzu. Bari kumwe bari guseka, ubona ko ari umuryango wishimanye.

Umusaza mukuru afite akuzukuru ke, ako kuzukuru gafite igipupe gakinisha, bicaye mu ntebe barimo barakina, umusaza ari kwigisha ako kana udukino tw'abana.

Mu bitaro hari umusaza usheshe akanguhe urwaye, ari gufashwa n'umuforomokazi w'umuzungu uri kumwitaho. Ari kumufasha kumugororera ingingo cyane cyane amaboko ye.

Mu nzira nyabagenda irimo amabuye, turi kubona umusaza usheshe akanguhe uri kumwe n'undi mubyeyi mukuru w'umugabo bafatanye ku rutugu, bari kugenda baganira mu busitani.

Ababyeyi babiri: umusaza ukuze ndetse n'umukecuru bari mu ruganiriro, imbere habo ku meza bari gukina agakino baseka, bishimye.

Umukecuru usheshe akanguhe ufite imvi mu mutwe, yicaye ku gitanda afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ndetse n'ikinini, ari kunywa imiti ya mugitondo kugira ngo yoroherwe.

Umusaza mukuru yicajwe mu kagare, ari gutemberezwa kwa muganga kugira ngo ajye kureba umuganga amuvure, inyuma ye hari umuforomokazi uri kumutembereza amuzengurutsa.

Umusaza ukuze ufite imvi, wambaye amadarubindi, ari gusoma ikinyamakuru yibaza ndetse atungurwa, afite n'ikaramu mu ntoki ibyo ari gusoma ari kubyandika ku ruhande.

Umugore w'umuforomokazi yicaye ku gatebe kagufi ari kuvura umukecuru ufite imisatsi mike irimo imvi inyingo ari kumupima ku kaboko k'ibumoso ngo arebe uko ahaga.

Umugore w'umuzungu wambaye agapira kajya gusa umweru, wambaye nisaha, ari kumwe n'umugabo w'umwirabura udafite umusatsi mwinshi kumutwe, wambaye isaha ndetse ufite n'impeta, ibigaragara bari muri siporo.

Abakecuru benshi baricaye, bahanze amaso imbere, biteze ibitambaro ndetse hirya bicaye no ku ntebe za palasitike, inyuma yabo hari urutoki bitabiriye inama.

Umukecuru bari kumufasha kurambura ingingo by'umwihariko, amaboko kugira ngo akore siporo, cyane ko siporo ari ingirakamaro ku basheshe akanguhe. Ari kubifashwamo n'umuforomokazi.

Umugabo w'umusaza usheshe akanguhe, ari gufashwa n'umudamu wambaye agapfukamunwa w'umuganga amufashe mu mugongo, ari kumufasha mu kumanuka amadarajya atambuka.

Umusaza usheshe akanguhe afite icyuma yambaye ku isaha, ari gupima umuvuduko w'amaraso ngo arebe uko ahagaze imbere ye hateretse ameza.

Umukecuru usheshe akanguhe, ari iwe mu nzu, afite imvi mu mutwe kandi afite isahani n'ifurusheti ari gufungura, abasheshe akanguhe bakwiye gufata ifunguro ku gihe kugira ngo bakomere.

Umubyeyi uri mu zabukuru w'umudamu, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, asa n'ufite ubumuga bw'ingingo, by'umwihariko amaguru. Inyuma ye, hari umukobwa w'inweri nyinshi w'umuforomokazi, uri kumwitaho, amuvura.

Umusaza mukuru usheshakanguhe yambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara ari gufashwa kugenda yagize ibibazo mu ngingo, umuforomokazi wabugenewe ari kumufasha kugenda.

Umukecuru ushaje cyane wo mu cyaro, atetse ku inkwi agasafuriya yapfundikishije akandi gasafuriya, yashyizemo n'inkwi ari kujya yatsa mu iziko.

Mu nzu umusaza ndetse n'umukecuru basheshakanguhe bari kumeza bari gusangira bose barishimye bari kuganira.

Umusaza wicaye mu ntebe ya pulasitike wambaye ishati y’ubururu nini, umukobwa w’umuforomo ari kumufungurira ibipesu kugira ngo amupime.

Mu giturage, abakecuru bakuze rwose, baricaye, bari kuganira. Bamwe muri bo bakenyeye ibitenge, abandi biteze ibitambaro mu mutwe, bicaye hasi. Gusa hirya hari abicaye mu ntebe za parasitiki zisa umweru.

Mu nzu umusaza n'umukecuru basheshe akanguhe bari ku meza, imbere yabo hateretse amafunguro bari gufungura ndetse banywa n'amazi.

Umusaza mukuru usheshe akanguhe wagize ubumuga bw'ingingo, ari gufashwa n'umukobwa mutoya amusunika mu kagare yicayemo kugira ngo abashe kugendagenda.

Umusaza usheshe akangu ufite mudasobwa imbere ye, umukobwa we ari kumuha imiti yo kunywa, imbere ye ateretse ikirahure cy'amazi ari kuyifata ngo yoroherwe.

Umusaza n'umukecuru imbere yabo hateretse igikombe cy'amazi ndetse n'imiti itandukanye, bafite telefone barikuyirebamo biga ibijyanye n'iyo miti n'uko bayifata.

Umusaza mukuru usheshe akanguhe wambaye amadarubindi ku maso, ari gufashwa n'umuforomokazi wabugenewe mu kumugorora ingingo.

Abantu bateraniye hamwe bari gukoma amashyi ubona ko bishimye, umwe muri bo ari guha umukecuru igikapu gisa nkaho ari ibihembo bari kumuha, bakomya amashyi nko kumushimira.

Murugo umubyeyi ari gufasha umwana mu guhuzahuza udushusho, bakina umukino. Uyu mubyeyi yambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, bari iwabo mu rugo, ni mu gihe cy'ikiruhuko.

Umusaza ukuze wicaye mu kagare ari gukina hamwe n'umwuzukuru we mutoya bari gukina imikino kuri tereviziyo.

Umukecuru usheshe akanguhe ari kugendera mu mbago igezweho, umukobwa muto ari kumufasha kugendagenda. Ntako bisa gufasha abasheshe akanguhe bari mu myaka mikuru.

Abagabo babiri bakuze, bazindukiye muri siporo, bambaye amatiriningi ndetse n'amakoti y'umweru hejuru, bafite uducupa tw'amazi dore ko amazi ari ingirakamaro, bari kwirukanka iruhande rw'ubusitani.

Umukecuru ukuze, ari ku kibuga ari gufata imbwirwaruhame ku nsanganyamatsiko y'uwo munsi, kugira ngo n'abakuze n'abasheshakanguhe, nabo bitabweho nk'inararibonye dufite.

Abasaza benshi bakuze bateranye. Bicaye mu ntebe zabo bafite inkoni, bicaye imbere y'inzu bari kuganira.

Umugore ufite agatambaro mu mutwe, yicaye hasi ari kuboha igitebo, imbere ye hahagaze abandi bagore bari kuganira ndetse n'abana, hirya hari umuzungu ukikiye akana bari kuganira bishimye.

Umusore w'umuganga ufite akuma mu ijosi gapima umutima, ari gusobanurira umusaza bicaranye uko umubiri we uhagaze bose bafite akamwenyu.

Umusaza ukuze usheshe akanguhe, ari kuvurwa ndetse n'umuforomokazi w'inkumi, amupima umuvuduko we w'amaraso kugira ngo arebe ko nta kibazo ufite.

Abakecuru basheshe akanguhe, bazindukanye ibitebo mu mirima y'icyayi, aba bakecuru biteze ibitambaro mu mutwe, ni igihe cy'isarura ry'icyayi, bari gusarura icyayi cyeze, ikibisi bakakigumishamo.

Ni mu ihema ry'umweru, hari abaganga batandukanye ndetse n'abasaza bari mu kigero cy'imyaka mirongo inani, bari guhabwa imiti n'inkingo kugira ngo borohererwe n'indwara barwaye.

Kwa muganga umusore ufite akuma gapima umuvuduko w'umutima ari kumwemwe n'umubyeyi ufashe imbago uyu mubyeyi yaje kwivuza ngo arebe uko ahagaze.

Icyapa kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende ni indwara itera abantu ibiheri bitandukanye ndetse no kwishimagura iyi ndwara akabare indwara yandura.

Ikigo gishinzwe gutabara ubuzima bw'abaturage kiri kwita kuri kanseri n'abarwayi bayirwaye bo mu Rwanda, kiri kwerekana ku wa gatanu tariki enye z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kabiri ko hari inama ivuga kuri iyo nsanganyamatsiko.

Icyapa kigaragaza inama yabaye muri bibiri na makumyabiri na kabiri, yerekana amategeko n'amabwiriza abanyarwanda bagenderaho kugira ngo hirindwe sida.

Urubyiruko rwinshi ruri mu mihanda, abenshi bambaye imyenda y'umweru. Bafite icyapa kigaragaza, urubyiruko nimwe hazaza h'uru Rwanda irinde virusi itera sida, ipisha uyu munsi. Bari kwirinda virusi itera sida.

Icyapa kigaragaza ko muri Kigali tariki makumyabiri z'ukwa cumi na makumya na kane, hari habaye umunsi wo kwirinda icyorezo cya mabaga. Minisitiri w'intebe yicaye imbere ndetse n'undi muzungu hari imbaga nyamwinshi ibakurikiye bari kuvuga ijambo.

Ni icyapa kigaragaza inama Mpuzamahanga yabaye ku bijyanye n'ubuzima, igaruka ku kuntu abantu batabonera hafi ubuvuzi kugira ngo bakire.

Madamu Jeannette Kagame ari gutanga imbwirwaruhame ku munsi mpuzamahanga wo kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe, ari guha impanuro imiryango ku iterambere.

Umuzungu wambaye ikote, ari gutanga imbwirwaruhame mu nama Mpuzamahanga, hirya ye hari kugaragara amashusho ku bantu benshi.

Habaye umunsi mpuzamahanga, hari abantu benshi bari imbere y'icyapa kigaragaza icyabaye, harimo abantu bambaye imyenda y'umweru, ndetse n'abasirikare bambaye impuzankano ya gisi...

Ibyapa biranga umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida byateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hari abagore bari ku biba bya kinyarwanda ndetse n'abasore n'imbaga nyamwinshi yicaye ibahanze amaso.

Icyapa kiriho inyuguti eshatu, inyuguti ya H, inyuguti ya P, irimo ibiganza bifatanye ndetse n'inyuguti ya R, kigaragaza abanyarwanda bafite ubuzima buzira umuze.

Abaganga bambaye impuzankano z'umweru, umugore uri mu murima, umugore uri mu biro ndetse n'abashinzwe amashanyarazi bari hejuru y'inzu.

Inama ku nshuro ya makumyabiri na kane mpuzamahanga yo ku ifunguro ndetse n'ubuzima. Icyapa kiragaragaza ko inama izabera mu mujyi wa Amusiteridamu aha ni mu gihugu cy'u Buhorandi. Hino hari imiti itandukanye ndetse n'indyo zifasha mu kuzamura nyine iryo funguro n'ubwo buzima.

Abasore babiri n'abakobwa babiri, bafite udukingirizo mu ntoki, bari kwamamaza udukingirizo, mu rwego rwo kwirinda SIDA ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Hari umuganga wikwije yambaye imyenda y'abaganga, yambaye agapfukamunwa ndetse na ga zo kwa muganga, ari gupima umusore wicaye indwara zitandukanye, umusore nawe yambaye agapfukamunwa.

Kwirinda kanseri ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, yaba Kanseri y'ibere, Kanseri y'abana, Kanseri y'ubwonko ndetse n'izindi nyinshi zangiza umubiri w'umurwayi zikawuca intege.

Icyapa umugore ndetse n'amagambo avuga ku ngaruka ndetse n'ukuntu ibidukikije bigira uruhare mu buzima rusange bw'abaturage.

Umusaza mukuru usheshe akanguhe wambaye ingofero, afite icyapa cy'ukuntu twabona urukingo rw'icyorezo cy'ubushita bw'inkende.

Abaganga batandatu bambaye impuzankano yabo isa n'umweru, udupfukamunwa ndetse n'amarinete, bari mu kazi mu bitaro, inyuma hari abandi baganga.

Umuhanzi Mico the Best ari guhabwa ishimwe n'umwe mu bayobozi mu Kigo cy'Igihugu Gishinzwe Ubuzima, nyuma yo gufasha mu bukangurambaga mu kwisuzumisha igituntu, aho bagira bati: "Twisuzumishe igituntu kuko kiravurwa kigakira".

itsinda ry'abantu rihagaze hanze imbere y'icyapa gishishikariza kwita ku munsi w'imihango, imbere yabo hateretse ameza ariho imiti bari kuyiha urubyiruko rw'abakobwa rubakurikiye.

Inama yateranye yiga ku buzima ndetse n'uburyo bwabungwabungwa. Hari abenshi bitabiriye iyo nama, ndetse bafite n'amakarita agaragaza ibyo bigiyemo, n'uburyo bagiye kubikoresha mu kazi kabo ka buri munsi.

Abaganga batatu, babiri b'abakobwa n'umwe w'umusore, bambaye imyenda y'akazi, bari gutanga imiti ndetse n'inkingo ku mukecuru witeze igitambaro cy'umukara, hirya hari umukoranabushake wambaye ijiri ya buge...

Abasore n'inkumi bahagaze imbere y'ikirahure kiriho ibyapa bishishikariza kwita ku buzima bwa muntu, bambaye n'amakarita agaragaza abo bari bo.

Indwara n'ibyorezo bitandukanye birimo sida malariya n'ibindi biranditse ibibazo bitera ndetse n'icyo twakora kugirango izo ndwara zirindwe nko kwirinda imibonano mpuzabitsina ndetse n'ikige ibyo byorezo biriho.

Icyapa, ababyeyi benshi bazindutse kugira ngo barwanye kanseri yibasira imyanya myibarukiro y'abagore. Iyi ni kanseri y'inkondo y'umura, bagira bati "iyi ndwara ya kanseri y'inkondo y'umura, yavurwa kandi yakwamaganwa."

Icyapa kigaragaza ibigo bibiri bikorana kugira ngo bitange serivisi z'ubuvuzi mu kurwanya igituntu, malariya ndetse na virusi itera sida mu bihugu bikiri mu nzira y'ama.

Ni mu nzu mberabyombi hicaye abagabo n'abagore bambaye neza bitabiriye inama, inyuma hari amakamera ashinzwe gufata amashusho.

Inama yateranye abayobozi bari gufata imbwirwaruhame n'imbaga nyamwinshi yitabiriye nama, kugira ngo mu Rwanda habashe kuba ubuzima butazima, kandi bube bwiza ku banyarwanda bose.

Icyapa cyamamaza kwirinda kanseri, kirerekana ibimenyetso bitandukanye nko kubura ibiro, umubyibuho ukabije n'ibindi byatera kanseri zitandukanye zirimo iz'amabere, iz'impyiko n'izindi.

Inama yateranye ku kigo cy'amashuri ,imbere hari abakobwa bambaye udupira tw'umukara ,hanyuma inyuma yabo hari abakobwa benshi bakiri bato b'abanyeshuri bambaye udupira tw'umweru . Iyi nama igaruka ku kugira inama abakobwa ku buzima bwabo ndetse n'iterambere ryabo muri rusange.

Icyapa cyita ku buzima mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu bya afurika kikaba kiyobowe n'abagabo babiri aribo keni Romes na Raban Lone.

Mu bukangurambaga bushinzwe kwirinda indwara, ni mu ihema umugore ari kwifatisha amaraso umuforomo wambaye ijiri itukura yabugenewe amupima amaraso.

Mu nzu mbera byombi hari kwifashishwa ikoranabuhanga mu nama yateranye, kugira ngo bige ku buzima, ibiranga indwara, uko indwara zivurwa, ndetse n'ubufatanye bw'ibigo bitandukanye kugira ngo abaturage bagire ubuzima buzira umuze, hari kwifashishwa ibyuma nka mudasobwa n'ibindi by'ikoranabuhanga.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, hari inyubako gikorera, imbere yacyo haparitse imodoka nyinshi zitandukanye, kuri iyo nzu hari abantu bakoramo.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, ni ibitaro biri mu nyubako zigezweho, imbere yabyo hari aho imodoka ziparika ndetse n'ubusitani burimo indabo zitandukanye, bari kutwereka amarembo aho abarwayi binjira bakabakirira.

Ni mu nzu ifite amakaro hasi, ibirahure mu madirishya bibonerana, n'inzu hakorerwamo imyitozo, harimo ibyuma byo guterura ndetse n'utugare two kunyonga.

Abaforomo batandatu b'igitsina gore, bambaye impuzankano, bahagaze imbere y'icyapa kiranga ibitaro bivura, bambaye n'udupfukamunwa bose uko ari batandatu.

Ni hamwe mu kigo nderabuzima, turi kubona inzu y'ababyeyi, aha ni aho ababyeyi bajya bagiye kubyarira, batwite bakeneye serivisi zo kubyara, iyi nzu irasa umweru, ifite amabati y'ubururu.

Ku bitaro hahagaze ushinzwe umutekano ndetse hirya hari urujya n'uruza rw'abantu, haparitse imodoka aho ziparika.

Mu bitaro mu byumba by'abarwayi hari ibitanda byinshi by'umweru by'abarwayi hejuru y'ibi bitanda hari inzitiramibu yifashishwa mu kwirinda marariya iki cyumba kandi gifite amadirishya menshi n'inkuta z'umweru.

Icyumba kigezweho cy'umurwayi, kirimo agatanda k'umurwayi, gafite ibara ry'ubururu, intebe ya muganga, icyuma gipima umutima w'umurwayi ndetse n'icyuma umurwayi yirukankaho kugira ngo agarure ubuzima n'ingingo ze zikore.

Inyubako nziza imwe mu zigezweho, igeretse inshuro eshatu, abantu bari kuyitemberaho, imbere yayo hari ibendera ry'u Rwanda ishobora kuba ari ibiro bakoreramo.

Imbaga nyamwinshi y'abantu iteraniye imbere y'inzu igereritse kabiri hino haparitse imodoka hari abagore bane.

Mu bitaro kwa muganga umuforomokazi wambaye imyenda yabugenewe ari kwita ku mwana muto wavutse, uyu mwana muto aryamye mu gatanda k'abana ari kurira nk'impinja.

Ibitaro bigezweho mu Rwanda bya ilcad bitanga serivisi zo kuvura ndetse no kubaga mu mutima. Ibi bitaro bikazajya bifasha abarwayi bose bafite indwara z'umutima kuvurwa neza bagakira mu Rwanda.

Mu bitaro hari urujya n'uruza rw'abaforomokazi, bari kunyuranyuranamo bashaka bimwe mu bikoresho kugira ngo babashe kugana mu byumba by'abarwayi barwariyemo ngo babavure, hari kugaragara utubati turimo ibyo bikoresho ndetse n'ahantu hatandukanye ho kujugunya imyanda.

Kwa muganga hari icyuma gifite amabara y'umweru, aho batereka umurwayi ndetse n'intebe muganga yicaraho ari gupima no gusuzuma uwo murwayi, bitewe n'indwara afite.

Imbere y'inzu y'ababyeyi, aho babyarira ku bitaro, hari imbaga nyamwinshi y'abaganga bambaye impuzankano, bashinzwe kubyaza abarwayi kwa muganga. Hari inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi ba kiliziya.

Umusore urwaye ari mu bitaro aryamye ku gatanda k'abarwayi hirya hari imashini imwongerera umwuka ikanapima umuvuduko w'amaraso ye.

Ku nzu igeretse inshuro ebyiri, hasi hari icyapa kiranga farumasi irimo imiti n'ibinini bitandukanye. Imbere yayo haparitse imodoka.

Inkumi y'umuforomokazi, iri kumva uko inda y'umurwayi imeze. Yambaye impuzankano y'umweru ndetse na ga n'agakomo mu ntoki, afite igikoresho bakoresha bumva aho inda igeze.

Amarembo y'ibitaro bya Kabgayi, ibi bitaro bitanga ubuvuzi ku barwayi batuye i Kabgayi no mu nkengero zaho, kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze kandi bakire vuba igihe barwaye.

Mu bitaro ni mu cyumba cy'abarwayi udutanda twinshi tw'abarwayi, bari baryamaho iyo barembye aha niho abaganga baza kubarebera, ku mpande hagiye hariho udutebe tw'abarwaza ndetse n'utubati tuba turimo imiti.

Igare riri muri kaburimbo rihetse umugenzi ugiye, hirya hari ikigonderabuzima cya Gisenyi, hari imbaga nyamwinshi y'abantu yaje kwivuza ndetse n'abaganga babavura.

Igitanda kiriho umurwayi w'umukobwa, hejuru ye hahagaze umugabo ndetse n'umudamu bombi b'abaganga, umugabo ari kumukora mutwe ngo yumve umuriro afite, mu gihe umugore ari kumupfuka akaboko

Farumasi yitwa peniyeri, igaragaza ko ikorana na rama, ndetse n'ubundi bwisungane mu kwivuza, irafunguye iri gutanga imiti ku bayigana, ndetse imbere yayo hari urujya n'uruza rw'abantu baje gufata imiti.

Abagore batatu b'abaforomokazi, bambaye impuzankano yabo, bari mu kazi, mu mutwe biteze udutambaro tw'umweru, bahagaze mu busitani bwi'bitaro, bakoreramo.

Kwa muganga hari intebe zitandukanye zicayeho abarwayi bambaye udupfukamunwa, hagati yabo harimo intera umuganga ari kugenda bageraho ababaza uko biyumva.

Igipangu imbere hahagaze umugore uhetse umwana mu mugongo, hejuru ku cyapa handitseho ikigo nderabuzima cya Kigina, ni ku muryango w'igipangu.

Kwa muganga ku nkuta hariko amafoto ndetse n'isaha, hari intebe z'abarwayi ndetse n'ibyuma biriho za serumu, n'ibindi byuma bibaha umwuka wo guhumeka.

Mu Bitaro umubyeyi w'umuforomokazi ari kuvura abarwayi batandukanye, ageze ku mukobwa wari uryamye ku gatanda k'abarwayi ufite ingofero y'umukara mu mutwe ari kumupima uko umutima we utera.

Kwa muganga harembeye abarwayi babiri hino hari umusaza uryamye mu gatanda k'abarwayi hirya hari umwana muto ubona ko bakomerewe n'indwara zabo.

Kwa muganga w'amaso hari intebe abarwayi bicara bategereje, hejuru hari ibipirizo by'umweru n'ubururu ku gikuta hari ishusho yerekana ijisho ry'umuntu.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga giteretsemo imashini zitandukanye muri zo hateretsemo bombone ebyiri zicometse zitanga ubuzima ndetse n'umwuka ku barwayi barembye.

Kwa muganga, mu cyumba abarwayi bashinzwe kubarirwamo, hari abaganga batatu babugenewe, bambaye impuzankano, ndetse n'umurwayi uryamye ku cyumba, ndetse n'igitanda cy'umurwayi, ari kuvurwa.

Ku kigo nderabuzima hateranye inama mu nzu y'ababyeyi aho babyarira, umugore ari gufata imbwirwaruhame abwira abarwayi n'abaforomo bari aho ku nsanganyamatsiko y'uwo munsi n'icyo ugamijwe kugira ngo hitwe ku buzima bw'ababyeyi.

Ibitaro bifite inkuta zisigishije irangi ry'umweru ndetse n'amadirishya menshi, hari umurwayi w'umugore ukiri muto wicaye mu kagare k'abarwayi, ibi bitaro ni ibya kijyambere dore ko bifite inzira nyabagendwa ubusitani ndetse n'ibigega.

Inzu yubakishije amatafari mato ahiye, imbere yayo hari urujya n'uruza rw'abantu, iyi ni inzu y'abarwayi, aho ababyeyi babyarira kwa muganga. Hirya no hino hari ibigega.

Mu nzu mberabyombi nini, turi kubona amatara hejuru ndetse n'imiryango myinshi itandukanye. Harimo ibyuma bigena ubukonje ndetse n'ubushyuhe, hashobora kuba hari inzu y'ububiko.

Ni inyubako igeretse kabiri, hasi hariho farumasi yitwa Mediasol ikorera i Remera. Imbere yayo hari indabo zitatse neza ndetse n'imodoka ziparitse, ikaba ifite imiti itandukanye ivura indwara nyinshi.

Ibitaro byabugenewe byo kwakira abarwayi, ni ibitaro bigezweho bigeretse kabiri, imbere y'aho hari imodoka ndetse n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bifite amadara ajya akura umurwayi ku nyubako ya mbere ajya kuyo hejuru.

I remera rukoma hari ikigo gishinzwe kuyakira abakigana cyitwa isange wane sitopu senta, gitanga serivisi ku baba bafashwe ku ngufu ndetse n'abari bahuye n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose, hino yacyo hari ubusitani ndetse kirafunguye nk'icyiteguye kwakira aba.

Inzu yubakishije amatafari mato ahiye, igeretse gatatu, ifite ibyapa by'umweru byerekana ko ari ibitaro, aho abantu bavurirwa.

Ku kigo nderabuzima rusange hari urujya n'uruza rw'abaturage, imbere turabona icyapa kiriho ibyapa bya USD ndetse na serivisi zitandukanye, icyo kigo nderabuzima gitanga.

Ibitaro bya Gihundwe hubakishijwe amatafari ahiye imbere hari ubusitani, turi kubona aho bavurira amaso ndetse n'aho bafasha mu kuvoma impyisi mu gikorwa cya diyarize.

Farumasi iba mu nzu y'amagorofa abiri, imbere yayo hari amadarage ajyayo. Farumasi yitwa Tagent, igamije kuvura abarwayi bayigana ikabaha imiti ngo bakire.

Ni mu bitaro ku gisenge ndetse n'ameza y'umweru, hari abaganga bambaye impuzankano z'umweru, bari gukoresha ibikoresho bitandukanye bibapima.

Umuganga wambaye amarinete, agapfukamunwa n'impuzankano, ari kuvura akana k'uruhinja kambaye ibintu by'umweru, kazanywe n'umudamu ufite inweri ku mutwe wambaye imyenda y'ubururu.

Ibitaro bya idikadi bishinzwe kuvura indwara za kanseri ndetse no kubaga umurwayi bya kijyambere bigezweho.

Ubusitani ndetse n'inzira nyabagendwa igana ku bitaro bikuru, hari urujya n'uruza rw'abantu mu nzira nyabagendwa, ndetse hari n'ibyapa bigaragaza serivisi bya bitaro abo barwayi bagana aho bitanga.

Ni kwa muganga w'amaso, turi kubona utubati turimo amarinete menshi avura abarwayi, hejuru hari igisenge kiriho n'amatara.

Mu nzu nini harimo ibyuma byinshi bitandukanye byo guterura bizwi nka ariteri, ibyifasha kugira ngo umubiri w'umuntu ukomere, hehe n'indwara zo mu ngingo.

Igitanda cy'umurwayi n'intebe nyinshi akameza ka muganga gateretseho mudasobwa ndetse n'intebe yicaraho biri mucyumba cy'umurwayi ,iki cyumba gisigishije ibara ry'umweru gifite idirishya rimwe.

Ibikoresho bitandukanye birimo icyo umurwayi aryamaho, intebe umuganga yicaraho, ameza aba ariho ibikoresho bitandukanye bya muganga, ibyuma bipima umutima w'umuntu ndetse n'umuvuduko w'amaraso biri muri sale y'ubuvuzi.

Mu bitaro umuforomokazi w'umudamu usheshe akanguhe, ari kugenda apima abarwayi batandukanye uko amaraso atera mu mubiri wabo akoresha agakoresho kabugenewe, ari gupima umukobwa w'inkumi wicaye ku gitanda cy'abarwayi.

Ibikoresho bitandukanye kabuhariwe mu buvuzi, harimo ibitanga umwuka ku barwayi bifite amapine ku buryo wabikura hamwe ukabijyana ahandi, hari ibireba uko umutima utera ndetse n'ibifasha umurwayi guhumeka.

Ibitanda byinshi bishoreranye by'abarwayi, biri kwa muganga. Hagati yabyo hagiye harimo udufata serumu, ndetse n'utubati tubikwamo imiti y'abarwayi.

Inyubako igezweho igeretse kabiri, isize irangi ry'umweru imbere yayo wateye igiti, ibi ni ibitaro bigezweho bifite ubu ubushobozi bwo kwakira abarwayi batandukanye.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal biba ku Kacyiru. Inyubako yabyo igeretse gatatu. Bishinzwe gutanga serivisi z'ubuvuzi bw'umutima. Abarwaye urwagashya, umwijima, ndetse n'izindi ndwara.

Mu cyumba kirimo agatanda k'umurwayi ndetse n'imashini, hirya hari utubati tubikwamo imiti ndetse n'aho kujugunya imyanda.

Mu mbuga ngari irimo indabo nyinshi, ni mbere y'ibitaro aho hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, baje bagana serivisi ibyo bitaro bitanga.

Umuryango wo mu bitaro ukikijwe n'inkuta z'umweru, uyu muryango urinjira ujya mu cyumba babagiramo umurwayi kuko harimo ibyuma bitandukanye byo kubagwa, ibitanda ndetse n'intebe za muganga.

Mu cyumba cy'umurwayi, hari igitanda cy'umurwayi kiriho ikiringiti, ishuka ndetse n'umusego, hino hari ravabo iriho amazi, akuma bakuramo udutambaro two gukaraba intoki ndetse n'aho bamena imyanda.

Mu bitaro hari abagore babiri umwe ni umuforomo, undi ni umubyeyi. Umubyeyi amaze kwibaruka akana k'agahinja, bose bafite akamwenyu ku maso; bakiriye uwo muziranenge ku isi y'abazima.

Inzu y'ababyeyi ku bitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi. Aha niho ababyeyi batwite baza kwitabwaho ndetse n'ugize ibise agahita ahabyarira.

Ni ku bitaro hari ubusitani, imbere hari n'imbangukiragutabara ebyiri, ziparitse ziteguye kujya kuzana abarwayi kuri ibi bitaro kugira ngo babashe kuvurwa igihe barwariye ishyanga.

Mu cyumba cy'umurwayi, harimo igitanda cy'umurwayi icyuma gishinzwe kumupima uko umutima we utera, ndetse n'agatebe ka muganga aho yicaye amuvura, hirya hari amadirishya ndetse ku nkuta hari n'amashusho atandukanye.

Ibitanda bitatu bitandukanye by'abarwayi byo kwa muganga, hagati y'ibi bitanda harimo imashini ishinzwe gupima buri murwayi ndetse n'amarido atandukanya igihe buri murwayi bagiye kumugeraho ngo bamusure.

Ku muhanda wa kaburimbo hari icyapa kigaragaza ibitaro na serivisi gitanga n'aho izo serivisi wazitanga, zirimo ubuvuzi bw'ingingo ubw'imitsi ndetse no kubaga.

Amadarajya atwerekeza kuri laboratwari y'ivuriro, impande n'impande hari indabo, imbere y'ivuriro hari ababyeyi bicaye ku ntebe bategereje ibisubizo.

Mu cyumba kigezweho kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura ingingo z'abarwayi barwaye harimo nk'amaboko, amaguru, amavi, umugongo, n'ahandi henshi.

Mu bitaro kwa muganga hari icyumba kibagirwamo abarwayi, umurwayi ufite ingingo zagize ikibazo ajyanwa muri iki cyumba kugira abashe kubagwa icyo gice cy'umubiri we kigira ubuzima bwiza.

Umuforomo yasuye abaturage aho ari kuvura abagore, afite kuma yabashyize ku kaboko k'ibumoso kugira ngo apime umuvuduko wabo wamaraso, nyuma arabaha imiti kugira ngo bakomeze boroherwe.

Farumasi irimo utubati tugizwe n'imiti itandukanye itondetse ku buryo bunoze, imbere hari intebe y'umweru yicaraho abarwayi bategereje kubona imiti.

Ni hanze umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye munsi y'igiti kinini, iruhande rwacyo harapavomye n'amabuye.

Inzu iriho amatafari ahiye ndetse n'imiryango ya fime, irerekana ko ari ibitaro bisanzwe bivura abarwayi.

Ni iruhande rw'inyanja, umukobwa ari muri siporo yambaye ipantaro y'umukara imufashe, ndetse n'agasengeri gato k'umweru, n'misatsi miremire, ari gukora siporo.

Ni umudamu ufite imisatsi miremire, wambaye agasengeri k'umweru, yegereye ikiyaga, afite agacupa k'amazi yashyize ku munwa, ari kunywa ayo mazi.

Akagare gafite amapine ane kabugenewe, gashinzwe gutwara umwana wagize ibibazo by'ingingo, kugira ngo abashe kujyanwa nko ku ishuri, ku bitaro ndetse n'ahandi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umuntu ahabwe ubuvuzi bw'ibanze, harimo inshinge, imikasi, ibipfuko, amatoroshi n'ibindi.

Umusore ari kwirukanka cyane, ari muri siporo, hari kwerekanwa n'imiti ndetse n'ibiryo byamufasha birimo amapome, karoti ndetse n'amashuri kugira ngo abashe gukomera, agire ubuzima buzira umuze.

Umuganga w'umudamu wambaye impuzankano ufite agakoresho mu ntoki,. yararamuye umwana mutoya urwaye, ari kumurebera mu maso ye uko hameze amupima.

Imiti y'ubwoko bwinshi inshinge, ibinini ndetse n'umudari, biri ku cyapa gishishikariza abantu gukora siporo kugira ngo birinde indwara.

Umusore yicaye mu muhanda yambaye agasengeri k'umukara, afite agacupa k'amazi ari kunywa.

Umusore ukiri muto, aricaye yambaye agapira k'umukara karimo imirongo y'umweru, ari guterura ibyuma, hirya hari umudamu, ubona w'umuzungu uri kumufasha.

Umusore ufite imbaraga n'amaboko akomeye ari mu nzu, ari kumbura akaboko ke. Ni umusore mukuru ufite ubwanwa, wambaye isengeri isa n'ivu.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, ufite amaboko manini n'igituza azindukiye muri siporo, aho yicaye ari gukora ku nkweto ze ngo arambure umugongo.

Ni icyapa kigaragaza uko wakora siporo yawe neza, n'ibyo wakenera harimo umubiri, amategeko, ibikoresho ndetse n'imbaraga.

Umusore uri hanze wambaye agapira gasa n'ivu, afite agacupa ku munwa ari kunywa amazi, mumatwi ye yashyizemo ekuteri.

Icyapa kiriho abantu babiri bambaye imyenda yo gukinana karate, n'umugore ndetse n'umugabo, inyuma yabo hari izuba.

Ni mu kibuga umukinnyi yavunitse, bagenzi be bamuhagaze hejuru ndetse n'ushinzwe gufata amashusho, umugore n'umugabo bakorera umusaraba utukura, bari kumuvura bamushyiraho imiti.

Ahazaza himakaza gukoresha imiti muri siporo. Imiti itandukanye ndetse n'inshinge biri ku meza biri kwifashishwa mu gushishikariza abantu kujya bakoresha imiti neza kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze, banakora siporo.

Umusore yavunitse, ateruwe n'abakorerabushake babiri bambaye amajire ya kuruwaruje, bamujyanye kumwinjiza mu modoka kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze, anajyanwa ku bitaro.

Umusore afite agacupa k'amazi mu ntoki arararamye ari kunywa amazi avuye gukora siporo ari hanze.

Umusore mukuru yazindukiye muri siporo ngororamubiri. Ari kumva imiziki, anarambura amaboko n'amaguru bye kugira ngo agire umubiri muzima kandi ukomeye.

Ni mu nzu umusore apfukamye hasi ari gukora siporo n'imikino ngororamubiri, yambaye isengeri hejuru ndetse n'ikabutura byose by'umukara.

Mu bitaro runaka, abahungu n'abakobwa bakiri bato bari guhabwa amahugurwa, ku butabazi bw'ibanze, bwahabwa umurwayi mu gihe agize ikibazo, akomeretse cyangwa avunitse.

Umugore w'umwirabura usa n'ukuze, ari mu nzu muri siporo, ari kwinanura yambaye ipantaro y'umweru ndetse n'agasengeri k'umweru.

Umusore uri ahantu mu kibaya wambaye isengeri isa n'ivu, ufite agacupa karimo amazi ari kunywa, ako gacupa kakaba gafite umufuniko w'umukara.

Umusore uri mu cyumba cyo gukoreramo imyitozo, yambaye inkweto n'imyenda bya siporo ni'isaha mu kaboko, afite umupira wa rugubi ari mu myitozo ari gutaragurika.

Umugabo mukuru wambaye agapira k'ivu ari hanze, afite agacupa karimo amazi ari kunywa asa n'uvuye muri siporo.

Umusore arambaraye hasi, hejuru ye hari abandi bapfukamye bari kumufasha, yari ari muri siporo agira ikibazo, bari kumufasha kugira ngo imvune ye yoroherwe ubundi akire vuba.

Mu nkuta zo kwa muganga zishushanyijeho ibigize ibice by'umubiri, ni mu cyumba cy'umurwayi, umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'ikarita, imuranga ari kuvura umugore mu ngingo.

Umusore yambaye agakoti kamwegereye, yaramukiye muri siporo ngororamubiri. Afite icupa ry'amazi ku munwa kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze, bunazira indwara.

Hanze umusore wambaye isengeri yaramukiye muri siporo ngororamubiri, uyu musore afite amaboko manini, agatuza ndetse n'maguru akomeye nk'usanzwe ukora siporo koko.

Umusore ari mu cyumba gikorerwamo siporo, yambaye imyenda ya siporo n'inkweto bya siporo, ari kurambura akaguru ke k'ibumoso, kugira umubiri we ugororoke.

Ijage irimo amazi y'urubogobogo ari gusukwa mu itasi , ijagi ifite amazi menshi, itasi irimo make.

Ukuguru k'umuntu mukuru usa nkaho ari umusore, bigaragara nkaho bamuvuye, harimo imirongo isa ubururu bwijimye ndetse n'igicucucucu cye.

Ni ku meza turi kubona imidari itatu itandukanye ndetse n'imbuto zirimo inanasi, amaronji , avoka, pome ndetse n'izindi mbuto hamwe n'imiti.

Amabwiriza ku bantu bakora siporo mu gihe cya Kovide cumi n'icyenda, aya mabwiriza arimo nko guhana intera, gukaraba intoki, kwipfuka mu gihe witsamuye ndetse n'andi menshi atandukanye nko kuguma mu rugo igihe urwaye.

Ibikoresho bitandukanye bya muganga biri ku meza y'umweru. Ga, imiti ivura ndetse n'inshinge.

Umuganga wicaye ku ntebe y'abaganga, ari mu cyumba cy'umurwayi, ari kureba ku mashini, aho ari kujyana inama na bagenzi be hakoreshejwe ikoranabuhanga rya mudasobwa, kugira ngo babashe gutanga service y'ubuvuzi inoze.

Imbuto zitandukanye zirambitse ku meza, zirimo: kokombure, imineke, amaronji, pome ndetse na pavuro. Ku rundi ruhande hari ibyuma bitandukanye byo guterura birimo za aritere n'ibindi.

Umugore yicaye hasi ari gukora siporo ngororamubiri yambaye agaseri, agakoma mu biganza ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umukobwa mukuru azindukiye iwe mu rugo ari gukora siporo, yambaye imyenda yabugenewe ya siporo, afite inyweri ku mutwe ari kurambura umugongo we.

Umusore ukuze turi kubona agatuza, ijosi rireze n'amaboko akomeye ni nk'umuntu ukora siporo, ku rutugu hariho udutako tw'ubururu ndetse n'ibara ry'ivu.

Hirya hari imisozi, hino turabona umugabo n'umugore bambaye imyenda ya siporo bafite uducupa tw'amazi mu ntoki n'amasaha ku kaboko, bazindukiye muri siporo.

Icyapa kigaragaraho itako ry'umusore ndetse n'amaboko, cyamamaza siporo nk'ubuvuzi bwavura indwara umuntu aba arwaye.

Umusore ukuze ufite imitsi ndetse n'amaboko akomeye, ari mu myitozo, yambaye imyenda ya siporo y'umukara, ari kugorora amaboko ndetse anaterura ibyuma kugira ngo agire umubiri ukomeye.

Umugore ari muri saro iwe, inyuma ye hari intebe z'umweru, yambaye ipantaro imwegereye y'umukara ndetse n'agasengeri kagufi, ari muri siporo yitwa Yoga, yo kugorora ingingogo.

Akana gatoya kazanywe na nyina kwa muganga kugira ngo bakarebere ko nta kibazo cy'amenyo gafite, umuganga yakasamuye ari kukareberamo akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Amazi menshi y'urubogobogo asa neza, ari mu gacupa kabonerana gafunikishije agafuniko gafite ibara ry'ubururu. Aka gacupa kuzuyemo aya mazi, bari kuyamamaza.

Umurwayi afite barafu ari kwivura ku ivi, uyu murwayi yagize ikibazo mu ngingo ku ivi rye, niyo mpamvu afite barafu kugira ngo yikande arebe ko yakoroherwa.

Akaboko ndetse n'ikiganza cy'umugore, gifashe agasashe, ubona ko kari kumufasha gukira imvune arwaye. Ni amaboko yirabura agaragara nkaho ari umwirabura.

Umugabo afite barafu yabugenewe ku kaboko k'iburyo, akaboko k'ibumoso kari gufasha ak'iburyo kahuye n'imvune mu nkokora, kugira ngo yoroherwe.

Aho babagira abarwayi kwa muganga, hari abaforomo batandukanye, bambaye impuzankano yabugenewe, udupfukamunwa, bafite n'amatoroshi ku gahanga, barikubaga umurwayi waje kubyara, mu nda.

Ibikoresho bitandukanye birimo amaga, ibikapu, imiti, inshinge, ibipfuko n'indi myinshi irimo za arukoro, biri hamwe bihabwa uvunitse kugira ngo abone ubuzima bw'ibanze.

Icyapa kiriho amashusho atandukanye y'ukuntu umurwayi w'ingingo yavurwa agakira, imyitozo myinshi itandukanye nko guterura ibyuma, kwicara ndetse no guhaguruka byamufasha mu koroherwa.

Mu kibuga umukinnyi yavunitse, hino ye hari umupira umuganga ufite igikapu ari gufasha kuvura ivi rye ry'iburyo ryahuye n'ikibazo.

Umukobwa ukuze ufite imisatsi myinshi wambaye ipantaro imwegereye ndetse n'agasengeri kagufi ari mu myitozo ngororamubiri, yunamye ari gukora munsi y'ikirenge cye.

Mu kibuga cya rugubi, umukinnyi ukina rugubi yavunitse, apfukamye hasi mu kibuga, iburyo n'ibumoso bwe hari abaganga bafite udusume n'udutambaro, baje kumuvurira mu kibuga.

Icyuma ngororamubiri cyabugenewe kigura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri by'amanyarwanda, gishinzwe kandi gifasha gukuraho inda ku muntu, maze akagira abudomino esheshatu.

Akadege gato katagira abashoferi gatwaye amaraso aka ni akadege kitwa dorone gatwaye amaraso kari kuyakura ku bitaro kayashyira umurwayi ukeneye amaraso.

Umurwayi urwaye mu ngingo bari kumuvura mu ivi ry'iburyo. Uyu murwayi ni umugore ukuze ari gufashwa n'umuforomokazi wabugenewe, amushyirira aka bande y'umutuku munsi y'ivi kugira ngo yoroherwe.

Ni mu nzu, umugabo yambaye ikabutura n'inkweto by'umukara, ari kwigorora iwe muri saro, ni umusore mukuru uri mu myaka mikuru.

Inkumi yambaye imyenda y'umukara, yicaye ku buriri iri kwirambura irabyutse, iri kwitegura gutangira gukora siporo ya mugitondo.

Icyapa cyamamaza umukino wa rugubi kiriho abakinnyi batatu, babiri babana ndetse n'undi umwe, umwe muri bo afite umupira wa rugubi, aho icyapa kigira kiti dukina umukino kubwo kwirinda impanuka.

Umusore uri hanze yambaye agapira k'umweru afite agacupa k'amazi yagashyize ku munwa ari kunywa . Yambaye isaha afite ekuteri mu matwi.

Umusore ukuze, yazindukiye muri siporo. Yambaye imyenda ya siporo y'umukara, ari kurambura amaboko ye, n'amaguru ye.

Umusore ufite ikibazo mu ngingo ari mu kuma kamufasha kugenda, imbere ye hicaye umukobwa wambaye ga n'impuzankano ufite na ekuteri mu matwi ari gufasha uwo murwayi.

Kwa muganga uvura ingingo, hari umurwayi ufite kuma yateruye mu kaboko k'ibumoso, umuganga nawe we yamufashe ku kaboko, ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri ngo abashe koroherwa ,uyu murwayi yicaye mu gatebe kabugenewe.

Umusore witeze isume mu ijosi, ari muri siporo afite agacupa k'amazi, yashyize ku munwa ari kunywa, siporo ni ingenzi ku buzima bwa muntu ndetse n'amazi adufasha kugira ngo icyaka kitatwica muri siporo.

Mu gitondo, umudamu aramukiye muri siporo. Iruhande rwe hari mudasobwa, agacupa k'amazi yo kunywa, ibyuma byo guterura bya ariteri ndetse n'ibindi bikoresho bimufasha mu gukora siporo ngororamubiri.

Ni icyuma cyo kwa muganga gifite amabara y'umweru hose, niho umurwayi bamucisha kugira ngo barebe ikibazo afite mu ngingo.

Umusore ufite ubwanwa, wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu ndetse n'ishanete y'icyuma mu ijosi, afite agacupa k'amazi mu ntoki, ari kuyanywa.

Ni mu mashini zo kwa muganga, turi kubonamo ibigize ibice by'umubiri w'umuntu nk'amagufa yo ku matako ndetse n'urutirigongo, ni umubiri w'umurwayi banyujije mu cyuma cy'abarwayi.

Akagare gashinzwe gufasha umurwayi wagize ikibazo cyo kutagenda, gafite amapine ane, abiri mato ndetse n'abiri manini, n'aho umurwayi yegamira gafite ibara ry'umukara gafasha uwavunitse utabasha kugenda.

Amazi y'urugogobogu ari kuva mu icupa ajya mu itasi, mu itasi hamaze kugeramo amazi menshi, igiye kuzura.

Umurwayi araryamye arwaye imvune mu ivi ry'iburyo, munsi bamuteze isume y'umweru hejuru bari kumushyiraho barafu kugira ngo imvune ye yoroherwe.

Inzu ifasha abantu mu gukora siporo ngororamubiri, irimo ibyuma byo guterura ndetse n'ibibafasha kwibuka, harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kugorora umubiri wabo.

Umuforomo afite icyuma gishinzwe kumva uko umutima utera, yambaye n'impuzankano ya giforomo, mu ntoki afite umupira wa Rugby bigaragara ko siporo burya na yo igira uruhare mu buzima bwa muntu.

Umubyeyi w'umugore ukenyeye igitenge ari mu busitani ari kureba ku giti. Iki giti gifite indabo z'umweru ari gukuraho akarabo kamwe.

Imiti itandukanye iri mudusashe utw'umweru ubururu n'utw'umukara iri ahantu hasa umweru dede. Hejuru hariho ibiciro ndetse n'amagambo agaragaza ibyo ya mita ikora.

Imiti itandukanye gakondo, iri mu dusekuru n'udusahane twabugenewe, iyi miti yifashishwaga n'abakurambere, kugira ngo babashe kuvura indwara zitandukanye, n'uyu munsi imiti irakoreshwa kugira ngo ivure ibyorezo n'indwara bigezweho.

Mu nzu hasi ku makaro hateretse ibikoresho gakondo harimo uducuma, ibibindi, udutabureti two kwicaraho, imifuka itandukanye.

Imiti gakondo iri ahantu h'urubugobogo, iri mu tubido dutandukanye, udusa umweru ndetse n'udutukura dutandukanye.

Igiti kirekire ariko gifite amashami matoya, gifite amababi menshi, kiri ahantu mu ishyamba gikikijwe n'ibindi biti bitandukanye.

Agasekuru ndetse n'agahini gatoya birikwifashishwa mu gusya igiti gakondo kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye n'umuvuzi gakondo.

Mu gihuru mu ishyamba hari ibiti bitandukanye ibigufi n'ibirebire, inturusu, imivumu ndetse na za gereveriya hino hari ibyatsi.

udusahani dutandukanye tugiye turimo imiti gakondo itandukanye yakwifashishwa mu kuvura indwara z'amoko menshi harimo ibikakarubamba, imyeya ndetse n'amatangawizi.

Amashusho menshi ya ibiti gakondo byinshi bitandukanye imiravumba, ibikakarubamba ndetse n'indi yifashishwa mu kuvura indwara byakoreshwaga ahanini n'abakurambere ariko n'ubu bikaba bigikoreshwa.

Imiti itandukanye gakondo yifashishwaga n'abasokuruza, iri mu kabati aho itondetse kwa muganga kugira ngo ibashe gukoreshwa, yifashishwa kugira ngo ivure abarwayi.

Hino hari imiti iri mu tujerekani dutandukanye ikesha uruhu, hirya hari imbuga irimo ibiti ndetse n'indabo n'ibiti gakondo iyo miti ikorwamo.

Uducupa dutandukanye tw'ibirahure tubonerana, tumwe dupfundikishije imifuniko y'umweru n'indi itukura, handikishijeho udupapuro tw'umweru n'ibara ry'umukara, turimo imiti itandukanye, gakondo yifashishwa mu kuvura.

Amazi yavanzwe n'ibiti gakondo banyuza mu mazi kugira ngo bikore nk'umuti, bikize umurwayi urwaye indwara runaka. Iki giti gakondo ni umuravumba.

Isabune y'uruhu, ikozwe muri avoka ndetse n'igikakarubamba, yisigwa ku mubiri hose ndetse no mu maso.

Intoki z'umugabo zifite isekuru n'umuhini mu ntoki, imbere ye hateretse imiti itandukanye nk'imyenya, amakara bya kinyarwanda ni umuvuzi gakondo.

Agacupa katangiza ibidukikije, karimo umuti aho kari gushishikariza abantu gukoresha imbaraga zisubira kugira ngo twirinde kwangiza ibidukikije.

Mu murima w'inanasi harimo abantu benshi ndetse n'imashini ebyiri, imwe iri gucamo ihinga abantu bari inyuma yayo b'abayobozi.

Ameza ariho imiti itandukanye gakondo, iyi miti yifashishwaga n'abakurambere mu kuvura ndetse n'ubu hakaba hari aho igikoreshwa harimo nk'umwenya, umuravumba, umuko n'indi.

Ni hanze igiti cy'ibishokoro kiriho ururabo rw'umweru rusa umuhondo ku mutwe ,igiti cyivuza inyarabasanya.

Imiti itandukanye gakondo. Irimo tungurusumu, imyeya, tangawizi, n'indi myinshi. Yifashishwa mu buvuzi gakondo buvura indwara zitandukanye, za muntu.

Ishusho ya mbere iri kutwereka umukobwa w'umuzungu n'amenyo ye n'umunwa useka, munsi hari imiti y'amenyo, bari kwamamaza imiti ifasha mu kuvura amenyo no kuyakesha.

Imiti gakondo itatu iteretse ku kabati ibiri muriyo iri mu ducupa tw'umweru mu gihe undi uri mu gacupa k'umuhondo iyi miti yongera ubudahangarwa bwa muntu mu guhashya indwara n'ibyorezo byamutera.

Imiti gakondo iteretse ku meza mu ducupa twatwo. Hari iri mu ducupa tubonerana ndetse n'indi iri mu tutabonerana, tumwe dufunikishije imifuniko y'umukara ndetse utundi iy'umweru. Iyi ni imiti ikomoka mu biti gakondo ivura abantu indwara.

Umuganga w'umugabo arahatangirwa imiti afite akakarito imbere ye hateretse imiti itandukanye irimo uducupa tw'umukara ariko ifite imifuniko y'umweru imiti yo kunywa.

Agahini gato n'isekuru biteretse hasi bikikijwe n'imiti gakondo itandukanye irimo imyenya ndetse n'ibikakarubamba.

Ibiganza by'umwirabura wambaye ikanzu ndende, imbere ye hateretse igisahani kiriho ibiti, ndetse n'imiti gakondo itandukanye.

Akabati gateretse mu busitani karimo imiti myinshi itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko bwinshi abantu utu ducupa hagiye harimo dufite imifuniko y'umweru indi y'icyatsi ndetse n'indi myinshi.

Icyatsi gakondo giteye ahantu hari amabuye iki cyatsi gifite amababi asa n'asongoye kandi maremare.

Uducupa dutandatu dushushanyijeho ibikakarubamba ndetse n'inyoni ziguruka, turi ahantu h'urwererane, tukaba no mu ducupa tw'umweru. Iyi ni imiti gakondo isanzwe ivura abantu ngo bakire.

Imiti gakondo itandukanye, ibitse mu kabati mu ducupa twabugenewe, kugira ngo umurwayi wayikenera ibashe kumugeraho vuba kandi byihuse kugirango abashe kuramirwa, yoroherwe.

Agatanda k'icyuma gateretseho utubase twinshi, buri kabase kagiye karimo ibiti gakondo byifashishwa mu kuvura.

Udukombe dutatu tw'imiti tw'umweru duteretse ku meza y'umweru, hirya hari ijage ibonerana irimo ibintu bicagase, byose bira ahantu h'umweru mu nzu.

Umuravumba ndetse n'indi miti gakondo iri mu gisambu aho ihingwa kugira ngo ivemo imiti yafasha abarwayi.

Mu rutoki, umugore wambaye isharupe y'umweru ufite agasakoshi mu ntoki, yagiye gushaka imiravumba n'indi miti gakondo kugira ngo abashe kwivura no kuvura urwaye.

Akayiko kabaje mu biti, gafite imiti myinshi itandukanye isa n'umwijima. Iyo miti kari kuyishyira ku meza y'umweru.

Icyapa cy'umuti gakondo, gishushanyijeho igikakarubamba ndetse n'intuma, iki cyapa kigaragaza ko uyu ari umuti uvura indwara gakondo.

Icyapa kiriho amababi ndetse n'ibimera bitandukanye, cyamamaza umunsi Nyafurika Mpuzamahanga, wita ku miti gakondo, wabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umuforomokazi ari kwerekana umuti uri mu gacupa gato k'umukara gafite n'umufuniko w'umukara kitwa ravenda, uyu muti ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye nk'imitsi ndetse n'izindi zo mu mubiri.

Agacupa k'umweru mu imbere karimo ivu handitseho umuravumba, uyu ni umuti uri muri aka gacupa uvura bya kinyarwanda.

Imiti myinshi gakondo irimo imyenya, ibikakarubamba, imiravumba n'indi yifashishwaga n'abakurambere mu kuvura, iteretse mu dusahane twayo ku meza, aho ihurizwa hamwe bityo ikavura umuntu bitewe n'indwara arwaye.

Imiti myinshi gakondo iri mu macupa maremare iragerekeranye mu kabati, iyi miti yakoreshwaga n'abasokuruza mu kuvura indwara zitandukanye z'icyo gihe, n'ubu ikaba igikoreshwa mu bitaro bitandukanye.

Ni mu gisambu, igiti cy'umuravumba gifite amashami menshi bigaragara ko gikuze gifite n'amababi menshi ni igiti gakondo kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Mu gisambu hari igiti cy'umuravumba giteye, iki ni igiti cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo nk'ibicurane, igituntu ndetse n'izindi zo mu buhumekero n'izindi zisanzwe.